Abapolisi bambaye neza bari mukarasisi barishimye bameze neza.

Abapolisi n'abasirikari n'abaturage bari gukora umuyoboro w'amazi bawusibura, batanga umusanzu wabo kugira ngo barwanye isuri hatazuzura amazi.

Iri ni isiganwa abakinnyi b'amagare bambaye neza bambaye iniforume bambaye kasike hari abaturage bishimye, hari ibiti, hari amatara, hari na kaburimbo nziza.

Abakinnyi ba vore babana n'ubumuga, bahataniye igikombe baragitsindira, barishimye cyane.